Umuryango w'abana babiri umukobwa n'umuhungu ndetse na mama wabo, bicaye ku ntebe z'imbaho, iyi ni ishusho. Handitseho amagambo avuga ngo ''umubyeyi arimo aragaburira abana.''

Abanyeshuri bambaye impuzankano batonze umurongo mu kibuga gikinirwamo umukino w'intoki, hepfo inyuma yabo hari amashuri asakaje amabati y'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imitako itandukanye ikozwe mu ibumba, harimo amavaze ashyirwamo indabo akaba yaterekwa mu nzu n'andi ushobora gushyira hanze.

Mu muhanda w'igitaka mutoya, harimo haranyuramo abakobwa babiri aribo bagaragara cyane, imbere yabo harimo haragenda abandi, ku mpande z'uyu muhanda hari ibyatsi.